Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, hejuru ku gikuta hari isakazamashusho igaragaza ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'izuba, umuryango winjira muri iyo nzu mberabyombi ndetse abarimo hari ku meza amacupa y'amazi.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye bamwe muri bo bakaba bafasha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo amatilefoni ndetse na zamudasobwa ndetse bakaba bafite n'amacupa arimo amazi yo kunywa, nyuma hakaba hari inzu nini ifite ibirahuri bibonerana bigaragaza ibiti biri hanze.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari idirisha rigizwe n'ibirahuri, ibyo birahuri bikaba biriho ibyapa byamamaza ibintu bitandukanye, bimwe bikaba byanditseho ngo Kigali.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, imbere yabo ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo amakaramu ndetse n'amakayi n'amacupa arimo amazi yo kunywa, inyuma ku gikuta hakaba hari irangi ry'umukara.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye inyuma yabo ku gikutakaba ari icyapa cyanditseho rura nk'insanganyamatsiko bari kwigaho, ndetse mbere ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo; amacupa arimo amazi yo kunywaho, mudasobwa, amakayi, ndetse n'amakaramu.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, ku meza yabo hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa, amacupa arimo amazi ndetse mo hagati hakaba hahagazemo umugabo wambaye ikoti ry'umukara asa n'utanga ikiganiro, imbere yabo ku bikuta hakaba hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigaragaza amashusho.

Inzu y'inama iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere ku meza hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo ama mudasobwa, ndetse n'inyakiramajwi, n'indahuzo zayo.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye biganjemo abagabo benshi bakaba bafashe ama mudasobwa ndetse n'indahuzo zayo abandi bafashe amatelefoni inyuma hari amadirishya abonerana agaragaza hanze ibintu biriyo.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye ku ntebe ku meza hari ibikoresho bitandukanye biganjemo amacupa y'amazi, ibikapu ndetse n'impapuro n'amakaramu bari kwandika, imbere hari igikoresho cy'isakazamashusho.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye imbere yabo bakaba arisakaza amashusho irimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, handitsemo rura mu magambo agaragara muri iki cyumba akaba arimo abagore ndetse n'abagabo kumezeza hari amacupa y'amazi ndetse n'ibyo by'ikoranabuhanga birimo amatere.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, abenshi ku meza hakaba hari amacupa y'amazi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo amatelefone ndetse n'impapuro bisa n'aho bakurikiye, imbere hari umuntu utanga imbwirwaruhame.

Abagore bakenyeye imyenda ndetse bitwikiye n'indi, bamwe muri bo bambaye amadarubindi abandi bafashe amatelefoni n'ibikapu mu ntoki abandi bambaye amasaha ku kuboko bicaye mu ntebe nziza mu nzu mberabyombi.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye, imbere ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo: amacupa y'amazi, mudasobwa ndetse n'impapuro bafashe n'amakaramu bari kwandika, bisa naho inyuma hari igikoresho cy'isakaza amashusho bari kureberaho.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye hakaba higanjemo abagore, imbere yabo hakaba hahagaze umugore ufashe mikorofone ndetse n'ikayi arimo avuga ndetse inyuma hakaba hari n'icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Icyumba k'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye ndetse n'itangazamakuru, imbere hari ibikoresho bitandukanye ku meza birimo ama mudasobwa ndetse n'amamikorofoni amacupa arimo amazi n'ibindi bitandukanye.

Inteko y'abaturage b'ingeri zitandukanye yiganjemo abagore ndetse n'abagabo ,inyuma yabo hakaba hari imodoka zigaragara zifite ibirahuri by'imyeru ndetse hakaba harimo abagore bafite imisatsi miremire n'imigufi. Abagabo bambaye ingofero bisa naho bitabiriye inama.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye, imbere ku meza azengurutse hari amacupa y'amazi, za mudasobwa ndetse n'impapuro abandi bareba mu matelefoni hasi. Imbere hari insakazamashusho yanditseho ngo rura.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo intebe ziganjemo ibara ry'umuhondo, imbere hahagaze umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame, ku ruhande hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kwigaho cyanditsemo ngo Kigali yacu.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bari ku meza maremare afatanye ayo meza akaba ariho ibikoresho bitandukanye, mo hagati y'ameza karimo ndetse n'ikintu kirimo ururabyo, ku meza hakaba hari amacupa y'amazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikapu, ndetse n'amakaye.

Inteko y'abaturage batandukanye imbere ya bo hakaba hahagaze umugore ufashe mikorofoni n'ibitabo, arimo atanga ibiganiro, inyuma y'aho hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, n'ibyuma bikwirakwiza umuriro mu baturage.

Ifoto y'urwibutso irimo abantu b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, abagore bakaba biganjemo abambaye imyenda y'imituku ndetse n'amakoti, abagabo nabo bambaye amashati, inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye harimo ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga.

Inteko y'abaturage bitabiriye inama kuko hari abayobozi bicaye mu mahema hasi ndetse n'abashinzwe umutekano, hirya hakaba hariyo ibyatsi byinshi ndetse n'amazu hejuru hagaragara ikirere gikeye.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye: birimo amacupa arimo amazi yo kunywa, amaterefoni ndetse n'amakayi n'amakaramu barimo kwandika. Inyuma hakaba hari ibikoresho by'indangururamajwi.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye bamwe muri bo hari umugabo wifashe ku munwa wambaye amalinete n'isaha ku kuboko yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma hakaba hariyo izindi ntebe ndetse n'inzugi zikozwe mu biti.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, imbere ku meza hakaba hari amacupa arimo amazi ndetse n'arimo imitobe, ibirahuri banywesha amazi, hakaba hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'inyakiramajwi mikorofone, hirya hakaba hari icyapa kigaragaza urutonde rw'amashaka.

Ndi kubona abagabo bicaye bari kureba imbere bafite amacupa y'amazi, bafite n'utumikoro bakoresha muri komferensi holu, bicaye ku ntebe zegamirwa ndi kubona n'igikuta n'amacupa y'amazi, umwe yambaye isaha undi arikuba nk'ukurikiye.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, imbere ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo amatelefone, ibikapu, za mudasobwa, impapuro ndetse n'amakayi, abafashe amakaramu bari kwandika abandi bafashe amacupa y'amazi.

Inzumberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye higanjemo abagore, bicaye ku ntebe z'umukara imbere ku meza yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amacupa harimo amazi yo kunywa. Imbere hari isakazamashusho ndetse n'indangururamajwi, ibyapa biriho insanganyamatsiko bari kuganiraho.

Inteko y'abaturage, abaturage b'ingeri zitandukanye mo hagati harimo umuyobozi arimo utanga inama nangwa se ubagira inama, inyuma hakaba hari ibiti byinshi n'amashyamba n'imihanda imodoka zihahagaze ndetse n'ikirere gisa n'aho bwije.

Abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abanyamakuru barimo bafata amashusho, inyuma yabo hakaba hari inzu ndetse n'umunara uri mu mabara y'umutuku, ibiti byinshi ndetse n'ikirere kirimo akazuba kari kuva k'agasusuruko.

Umusore wambaye amarinete ndetse n'agapira k'umukara kanditseho irembo. Imbere ye hari ibyuma by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa n'insakazamashusho zayo. Hanze hakaba hari idirisha rigaragaza ikirere gisa n'aho gikeye.

Irembo byikorere kanda akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego, umugore wicaye mu ntebe nziza wambaye imyenda y'ubururu n'inkweto z'umweru ufashe terefoni bigaragara ko ari kuyikoresha, icyapa kiri mu mabara y'ubururu ariho yamamaza.

Insinga z'amashanyarazi, ipoto ziriho ndetse hasi hari indabyo ndetse n'umucaca, ku ruhande hari uruzitiro rwubakishije amatafari n'ibyuma, inzu ndende byo guturamo yubakishijwe amategura, hakurya hakaba hari inzu nyinshi ndetse n'imisozi.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse iteyeho n'itara rimurikira abo mu muhanda, iriho ndetse n'insinga zitwara murandasi, hasi y'iryo poto hakaba hari inzu nyinshi ndetse n'ibyapa hirya hakaba hari ibiti ndetse n'ikirere.

Urusinga runini rurahura umuriro w'amashanyarazi ruzingazinze, rukoze ipfundo ruhambirijwe imigozi y'ibirere, hasi aho rurambitse ni mu bitaka, hari ibyatsi bikeya cyane ndetse n'amabuye agaragaraho.

Ibiti birebire ndetse hagati hagati ibyo biti hakaba harimo ipoto iriho insinga z'amashanyarazi hirya hakaba hari uruzitiro, imbere muri urwo ruzitiro hakaba harimo inzu zitandukanye ndetse hakaba hagaragara n'agace gatoya k'umuhanda karimo imodoka ndetse n'abanyamaguru.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'iza murandasi hasi hari umuhanda urimo igare ndetse n'uritwaye ku ruhande hakaba hari amazu menshi yo guturamo ndetse n'uruzitiro ikirere kirimo akazuba k'agasusuruko inyuma y'izo nzu hakaba hari ibiti bitagaragara neza.

Ibikoresho bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, harimo ibiwugabanya ndetse n'ibiwongera. Hakaba bihagaze ku mapoto abiri, hariho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Hasi hakaba hari inzu nyinshi.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'itara rimurikira abo ku muhanda, hirya hari inzu nini cyane y'ubucuruzi ifite ibirahure by'umukara k'uruhande hejuru hari ikirere gifite ibicu bitanga imvura, hasi hari ibyatsi byinshi ndetse n'indabyo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye kuru ruhande rw'uwo muhanda akaba ahahagaze ibipoto biriho insinga ndetse n'amatara aboneshereza abo mu muhanda hakurya hakaba hari inzu nyinshi ndende z'ubucuruzi ndetse n'ingufu zo guturamo hakaba hari n'ibiti.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro wisumbuye ndetse n'amazu menshi asakaje amabati ashaje, ibiti byinshi, imisozi iriho amashyamba n'amazu bigaragara ko hatuwe, ikirere gifite ibicu by'umweru ndetse n'ubururu bigaragara ko nta mvura gifite.

Ipoto itwaye umuriro w'amashanyarazi wisumbuye ndetse n'uciriritse, ndetse n'insinga za murandasi. Hasi kuri iryo poto hakaba hagaragara ibice bitoya by'abantu barimo kuhaca, ndetse n'ibyatsi byinshi, amazu, amazu ndetse n'ikirere gisa n'ikijimye.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse n'itara ryo ku muhanda, inyuma y'iryo poto hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbu ndetse hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu ndetse iyo poto ikaba hariho n'insinga zitwara murandasi.

Ipoto ry'icyuma ritwa ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mo hasi ari ibyatsi ndetse n'ibiti urutoki n'amakoma ndetse n'uruzitiro ruzengurutse inzu hirya hari ibiti hejuru hagaragara ikirere kirimo ibara ry'umweru n'ubururu.

Amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse rimwe ryometseho itara ryo k'umuhanda, hasi hakaba hahagaze imodoka nyinshi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, hakurya hakaba hari amazu y'ubucuruzi ndetse k'uruhande hakaba hari ibiti birebire, hejuru hagaragaramo ikirere kiriho akazuba.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izitwara murandasi, hasi y'iryo poto hakaba hari inzu zubatse, zimwe zubakishije amatafari, izindi ziteye irangi ry'umukara, ndetse n'ibyatsi byinshi hakurya hakaba hagaragara ikirere gifite amabara menshi, ubururu n'umweru ndetse n'ibiti.

Ipoto ikozwe mu giti, ikaba iriho urujya n'uruza rw'insinga zitandukanye, zimwe zerekeza mu baturage zibarahurira umuriro, agace gato k'imodoka ifunguye umuryango n'igiti kinini cy'inganzamarumbu ndetse n'amazu menshi cyane ari hasi.

Ipoto iriho urutsinga rw'amashanyarazi ndetse ikaba yometseho itara ryo k'umuhanda, hasi aho riteye hakaba hari ibiti bitoya biririmo kuzamuka ndetse hakurya hakaba hari n'izindi nsinga z'umuriro w'amashanyarazi wisumbuye, hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu ndetse hirya cyane hakaba hari uruzitiro rwubakishije amatafari arahiye.

Muganga arimo gufata ibipimo by'umurwayi. Akaba yambaye umwenda, impuzankano y'abaganga, ndetse yicaye ku ntebe y'umukara, imbere hari ameza ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Inzu ndende y'umuturirwa ifite amabara y'umuhondo, ndetse n'ibirahuri biri mu madirishya bibonerana n'ibyo mu muryango, hasi mu mbuga muri iyi nzu hakaba hari ibyatsi bisa n'icyatsi ndetse hakaba hagaragara n'ikirere gisa n'ikirimo akazuba.

Ndi kubona abantu bane, inyuma yabo hari imodoka eshatu bari kugenda mu muhanda ushashemo amapave, umwe afite akabido k'akaritiro n'icupa undi ari inyuma y'umugore yambaye imyenda itukura, undi asa nkaho agiye kwicara undi, yambaye ibintu by'ubururu n'inkweto z'ubururu n'akantu k'abaganga mu mutwe ndi kubona n'ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi.

Icyumba cyo kwa muganga aho bapimira abantu amaso, ndetse muri icyo cyumba akaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, ndetse na muganga n'umurwayi arimo kwitaho, muganga akaba afashe n'akandi kuma k'ikoranabuhanga.

Abashinzwe umutekano mu mpuzankano yabo hakurya hari imodoka zihagaze ndetse n'abantu benshi, ibyapa biriho amagambo menshi cyane akurikirana ndetse n'imisozi hakurya iriho ibiti n'amashyamba, ikirere hejuru kigaragara nkaho gikeye.

Amabendera y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikindi, hasi hahagaze amamodoka ari mu ubwoko butandukanye. Hakurya hari ibyapa byinshi ndetse n'amazu ari hafi aho, bigaragara ko ari mu kigo cy'ahantu runaka. Ibiti byinshi birimo aho ndetse n'ikirere, bigaragara ko bugorobye.

Kizito Mihigo mu myenda y'impuzankano y'abafungwa n'abagororwa ari kumwe n'abacungagereza bambaye impuzankano yabo, mu mufuka w'umucungagereza hakaba harimo ikaramu ndetse yambaye n'ingofero ku ruhande ari kumwe n'abunganira mu mategeko bambaye imyenda y'imikara ndetse n'amarinete.

Urugi runini rusa naho rwinjira ahantu mu kigo, ku ruhande hakaba hari inzu ifite amabati y'umutuku, hejuru hari icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu, hirya hari ibiti byinshi cyane, hejuru hagaragara ikirere gisa n'ubururu ndetse bisa naho bugorobye.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo muri iyo nzu hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo inyakiramajwi ndetse n'isakazamashusho n'amatara yaka muri iyo nzu, hakaba hari n'ibirahure bibonesha hanze.

Umugore ubyibushye wambaye amarinete wafungiye inyuma imisatsi, imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mikoro gifata amajwi, ahagaze imbere y'ameza bisa n'aho ari gutanga imbwirwaruhame, ku ruhande hari undi utagaragara neza.

Abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro bifashishije imodoka n'imipira bya kizimyamuriro bambaye impuzankano yabo yo kwirinda ha bakaba hari inteko y'abaturage ndetse n'abana bari gutozwa bahabwa amahugurwa y'uko bazimya inkongi y'imirire nyuma hakaba hari imodoka zigiye zitandukanye ari izishinzwe kuzimya umuriro ndetse n'iz'umutekano.

Agace gatoya k'umuhanda hakurya hari abantu babiri harimo ushinzwe umutekano wambaye impuzankano ya polisi ndetse n'umugabo wambaye isaha hirya hari inzu ndende cyane n'igiti kirekire cyane hasi hakaba hari indabyo zihari.

Inzimyamuriro zifashe ku bikuta ziri mu mabara y'umutuku, ndetse zifite n'imipira isohora imyotsi mu mabara y'umukara, hakaba n'izindi mipira miremire zikoreshwa ahantu harehare, ziri mu mabara y'umutuku, icyo gikuta kikaba gifite irangi ry'umweru.

Kizimyamuriro yometse ku gikuta giteye irangi ry'umukara, ikaba iri mu mabara y'umutuku ndetse, mo imbere iriho ibipapuro bigaragaza igihe imaze biri mu mabara y'umweru, ikaba ifite umupira uri mu mabara ry'umukara usohora imyotsi bazimya umuriro.

Igice kimwe cy'umubiri w'umuntu kigaragaza ikiganza ndetse n'intoki ebyiri, ku gahera hasize umuti w'ikaramu ndetse no ku gikumwe hasize umuti w'ikaramu, bigaragara ko arangije gutora imbere hakaba hari amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Umuyobozi w'umugabo wo mu nzego nkuru z'igihugu urimo kureba imbere wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru inyuma hari ikirangantego cy'igihugu imbere ku meza bigaragara ko hari ikirahuri banyweramo amazi ndetse inyuma hakaba higanje ibara ry'ubururu ku nkuta.

Ihuriro ry'abaturage bishimye umwe muri bo afashe icyapa kiriho umukandida w'ishyaka rimwe ryo mu Rwanda, uhatanira kwiyamamaza ku mukuru w'igihugu. Hirya hari amazu menshi ndetse hari n'ibiti byinshi cyane.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagore muri abo bagore akaba bari bambaye amakarita imbere mu gatuza ndetse imbere ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo amacupa arimo imitobe ibikapu ndetse n'amatelefoni n'amakayi.

Umugore wicaye ku ntebe yipfumbatse yambaye amarinete afite imisatsi inyerera ndetse yambaye n'ikote risa n'ubururu, iruhande rwe bikaba bigaragara ko hicaye undi muntu ariko bakagaragaza agace ke gatoya.

Abaturage bari ku murongo bigaragara ko bari kuri site y'itora batora abayobozi, hirya hari ibiti byinshi cyane ndetse n'amahema yo kwikingamo izuba n'amazu menshi, bisa nkaho harimo abagore bafashe ibikapu, abasaza bambaye ingofero n'amashati.

Abaturage b'ingeri zitandukanye hakaba higanjemo abagore bambaye imyenda y'ubururu umutuku ndetse n'umweru bafashe amadarapo ariho ishyaka ryo mu Rwanda rya fa pa na ra mu mabara y'ubururu umweru n'umutuku ndetse bamwe bafashe n'ifoto nini cyane y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda paul kagame.

Ndikubonaho umuminisitiri ushobora kuba ari kurahira, yambaye karuvati y'ubururu n'ikote ry'ubururu, ishati y'umukara, imbere ye hari mikorofone, yazamuye akaboko, yanarakaye.

Abakecuru benshi bakenyeye imishanana ndetse banakindikije bambaye urugori mu mutwe bafashe ibyapa by'ishyaka ryafaparara ndetse bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umutuku imbere yabo harambitse ubucupa burimo amazi bigaragara ko bishimye.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu ukuboko kumwe gufashe ku ibendera ry'igihugu ukw'iburyo kuzamuye imbere yabo hari mikoro bisa nk'aho bari kurahirira inshingano bahawe, inyuma hakaba hari isakaza amashusho zibagaragaza.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye bicaye ku meza imbere hari ibintu bitandukanye birimo amabendera, amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse inyuma hari n'ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko bari kwigaho benshi bakaba bambaye ingofero ndetse n'amarinete mo hagati hakaba harimo n'umuzungu.

Abayobozi bakuru mu nzego nkuru z'igihugu cy'u Rwanda, inyuma hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, kirimo agaseke, ishaka ndetse na kawa, umwe mu bayobozi yifashe bukarevuro aseka, undi areba hasi yifashe neza mu biganza nawe aseka.

Umuhanda uri uturanye n'inzira y'abanyamaguru ukaba urimo imodoka itwara imizigo iri mu mabara y'umweru n'icyatsi, hirya hakaba hari uruzitiro ruzengurutse ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bikingirije inzu.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo ibitwara imizigo ndetse na moto hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire ndetse n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi hakuno y'umuhanda nanone hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hirya hakaba hari imodoka n'amazu.

Umuhanda urimo imodoka ndende itwara imizigo uturanye n'inzira y'abanyamaguru, hari icyapa kinini cyamamaza ibinyobwa, ibiti binini cyane ndetse hakaba hari n'ikirere cya mu gitondo gifite agasusuruko.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari ibitwara imizigo ndetse n'abantu ku giti cyabo, inzira y'abanyamaguru irimo igendwamo n'abantu hakurya hari ibiti birebire cyane ndetse n'imodoka zihahagaze, amazu menshi atagaragara neza inyuma y'ibiti.

Umuhanda urimo imodoka zitwara imizigo ndetse n'izitwara abagenzi, uwo umuhanda ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru, imbere hakaba hari amazu menshi y'ubucuruzi ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira abo m'umuhanda, hakaba hagaragara ibiti ndetse n'ikirere.

Umuhanda uturanye n'inzira y'abanyamaguru, muri iyo nzira y'abanyamaguru hakaba harimo umuntu urimo gutambuka ndetse imodoka nyinshi ziri mu muhanda, izitwara imizigo n'izitwara abantu mu buryo buri rusange. Hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda urimo imodoka itwara imizigo ukaba uturanye n'inzira z'abanyamaguru zirimo abantu bagenda, inyuma yayo hakaba hari izindi modoka zihagaze ahantu mu mbuga ndetse n'ibiti byinshi cyane, hirya hakaba hari inzu zitagaragara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye bitwara imizigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo, ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru, ibiti birebire cyane bikingirije ikirere gisa naho'a kirimo akazuba k'agasusuruko ka mu mugitondo, hakurya hakaba hari n'amazu menshi ahari.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange nini ndetse hirya hari amazu y'ubucuruzi, imisozi miremire iteyeho amashyamba ndetse n'amazu kuri iyo misozi, hino hakaba hari umucaca mwinshi cyane, iruhande haryamye icyuma.

Umuhanda munini urimo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse na moto modoka itwara imizigo. Mo imbere hakaba hari izindi modoka zitagaragara neza ndetse n'agace gatoya k'ibiti n'amazu. Hejuru hakaba hari ikirere gifite akazuba.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu muhanda mugari, ndetse ku ruhande rwayo hagenda n'abantu, hagaragara n'igice gitoya cy'indi modoka iri iruhande rwayo, igizwe n'ikirahuri. Iyo modoka ni imwe dusanzwe tuzi yitwa shira umuteto.

Umuhanda uturanye n'inzira y'abanyamaguru ukaba urimo imodoka ndende itwara imizigo ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku wiganje, imbere hakaba hari n'ibindi binyabiziga byiganjemo amabara y'umweru ibiti binini, by'inganzamarumbu bikurikira inkiko z'uwo muhanda.

Mu muhanda uturanye n'akayira k'abanyamaguru, muri uwo muhanda hakaba harimo ikinyabiziga cy'imodoka gitwara abantu muri rusange, izi dusanzwe tuzi ko zitwa shirumuteto zikora mu mujyi wa Kigali ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru karimo umugenzi urimo kugenda hakurya hakaba hari ibiti birebire.

Umuhanda urimo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri mu mabara y'ubururu, iyi dusanzwe tuzi nka shira umuteto, hakuno hakaba hari moto ihetse abantu, hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa naho bugorobye, hirya hakaba hariyo imisozi iriho ibiti.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye ziganjemo itwara abantu, mu buryo bwa rusange ndetse n'itwara imizigo iri mu mabara y'umuhondo. Ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru hirya hari ibiti byinshi bihakikije.

Mu muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka nyinshi ndetse n'amamoto, ku ruhande hahagaze amamoto akoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti birebire inyuma yabo, hirya hakaba hagaragara inzu nyinshi n'ikirere gifite akazuba.

Moto zihagaze ahantu hamwe, muri iro moto hakaba higanjemo izikoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse n'abatwara izo moto. Ku ruhande hakaba hari agafuka karimo ibintu, hirya hakaba hariyo umuntu urimo kugenda n'amaguru ndetse hari n'igiti kimeze nk'ahari ipoto ryo ku muhanda.

Ihuriro ry'imihanda muri iyi mihandakaba harimo imodoka zitandukanye z'abantu ku giti cya imwe isa n'umutuku indi iri mu ibara ry'umweru, hakurya hakaba hari umukingo ndetse hejuru y'umukingo hakaba harimo umurima uteyemo ibiti byinshi ndetse n'urukinga rw'umuriro w'amashanyarazi uca hejuru hakaba hagaragara n'ikirere.

Umuhanda mugari kandi munini uturanye n'utuyira tw'abanyamaguru ku nkiko zawo, muri uwo muhanda hakaba harimo ikinkinyabiziga cy'imitende itatu cya moto kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakurya hakaba hari uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bikingirije amazu menshi ari mu murwa.

Umuhanda urimo imodoka itwara imizigo ndetse n'inyamaswa higanjemo inka, hirya hakaba hari ibiti birebire bikingirije amazu ahari, iyo modoka ikaba isa n'umweru ifite amapine y'umukara ndetse akazuba kakaba kari kuva.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye bya moto ndetse bitwara imizigo hakurya hari ibiti binini by'inganzamarumbu, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi n'amatara amurikira abo mu muhanda ikirere gifite akazuba.

Umuhanda munini urimo imodoka ndende itwara imizigo, uwo umuhanda ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru irimo abagenzi bari kugenda ndetse ku ruhande hari ibiti byinshi n'indabyo, hejuru y'uwo muhanda imbere hakaba hari undi muhanda uca hejuru ku kiraro ndetse mu imbere hasa hari n'izindi modoka ziturukayo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka zitwara imizigo ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo imbere y'izo modoka hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ikirere bigaragara ko kirimo akazuba izo modokari zirimo imifuka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka zitwara imizigo mu mabara y'umweru, moto zitwara abantu ndetse n'amagare. Hakurya hari ibiti birebire cyane bikingirije akazuba, ndetse n'inzira y'abanyamaguru iri ku ruhande rw'uwo muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo amamodoka, amagare, ndetse n'amamoto. Hakurya hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'imisozi itagaragara, neza n'amazu menshi. Ikirere gifite akazuba k'agasusuruko, ka mugitondo.

Umuhanda munini uturanye n'inzira y'abanyamaguru, muri uwo muhanda hakaba harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri mu mabara y'umweru, ifite ibirahuri bibonerana bigaragaza abantu bayirimo, hirya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda uturanye n'inzira y'abanyamaguru urimo imodoka iheka imizigo, iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hirya hakaba hariyo ibiti binini bikingirije ikirere, ariko bigaragara ko harimo akazuba ndetse inyuma hari n'amazu menshi.

Umuhanda urimo imodoka ndetse na moto, mu ruhande hakaba hari ibiti byinshi, amazu ndetse n'ibyapa, hakurya hakaba hagaragara agace karimo izuba ryaka ndetse n'amazu menshi bigaragara ko ari mu mujyi, iyo modoka ikaba isa n'ubururu.

Imodoka ndende itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yitwa shirumuteto, iri mu mabara y'umweru, ifite ibirahure bibonerana, bigaragaza abari imbere mu ntebe ndetse n'icyapa kiri ku ruhande cy'ubucuruzi, imbuga nini cyane iri hafi aho.

JUmuhanda munini uturanye n'inzira y'abanyamaguru, uwo muhanda ukaba urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange tuzi nka twegerane, hirya hakaba hariyo amamoto atwaye abagenzi ndetse hakurya hakaba hari n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi n'ibiti birebire.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ibitwara imizigo ndetse na moto iriho abantu, ku ruhande hakaba hari ibiti binini cyane bikurikira uwo muhanda ndetse n'izindi modoka zahagaze hirya hakaba hagaragara ibiti.

Umuhanda bisa naho ushaje kubera ko ufite ibinogo ariko ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'igice gitoya cy'igare, iyo modoka ikaba ifite amabara y'umweru n'ubururu bisa n'aho itwara imizigo, hakurya hakaba hari ibiti birebire bikingirije ikirere.

Imodoka itwara abagenzi m'uburyo bwa rusange iri ahantu m'umuhanda hirya hari izindi modoka nyinshi ndetse n'abagenzi, hari igipoto kinini cyane gitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'insinga ziwutwara, umusozi uriho ibiti byinshi ndetse n'ikirere gisa n'aho bwije.

Mu muhanda ugendwamo n'abanyamaguru b'urujya n'uruza, ku ruhande hariho inzu z'ubucuruzi ndende zifite ibirahure bibonerana. Ibiti byinshi biri ku ku muhanda ndetse n'insinga z'amashanyarazi ziri hafi aho, ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, icyapa cye ku muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku mo imbere harimo ibara ry'umweru n'ikirango cy'umukara. Igiti kinini kiri iruhande rwawo ndetse n'ibyatsi hasi hakurya hari ikirere gisa n'ubururu.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara bigaragara ko hari umuhanda wizengurukamo inyuma y' iki cyapa hakaba hari ibiti byinshi birebire by'inganzamarumbu ndetse n'ibindi byapa bishamikiyeho.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko ndetse n'ishusho by'impande enye, rizengurutswe n'ibara ry'umukara mo imbere harimo umuhondo ndetse umutuku n'umukara, bigaragara ko ari icyapa kibuza cyangwa se kigaragaza amerekezo y'umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'ibara ry'ubururu cy'umuzenguruko ndetse hari ibara ry'umutuku, mo imbere harimo ibara ry'umweru, amagambo mirongo itandatu ari mu ibara ry'umukara bigaragara ko bibujijwe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga binyuranye by'amamodoka ndetse n'amamoto hakaba hari n'ibyapa byo mu muhanda ndetse n'inzu ndende z'umuturirwa, ku nkiko z'uwo muhanda hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'amafoto ariho amatara yo ku muhanda, hejuru hakaba hagaragaye ikirere kijimye busa n'aho bugorobye.

Icyapa cyo m'umuhanda kiri mu ishusho ya mpande enye mo imbere harimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru harimo umuntu usa n'aho ari kwambukirana umuhanda, hakurya y'icyo cyapa hakaba hari ibiti byinshi birebire bikikije umuhanda ndetse n'ikirere hejuru.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku n'imbere harimo ibara ry'umweru ndetse n' ikirango kigizwe n'ibara ry'umukara, harimo umuntu ufashe igitiyo asa n'uri gukora isuku mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye, kizengurutswe n'umuzenguruko w'umuhondo, mu imbere harimo uw'ubururu ndetse n'umweru n'umukara, harimo umuntu wambukirana umuhanda, hirya yacyo hakaba hari ibiti birebire cyane, bisa naho bizengurutse uwo muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku imbere harimo ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cyo mu ibara ry'umukara bigaragara ko kigaragaza ko imbere hari utunogo nango se utununga tw'udusozi.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku ndetse mu imbere harimo ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara, hejuru hari irindi ry'umutuku, inyuma hakaba hari ikirere gisa n'ubururu gifite uducu dukeya tw'umweru.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka ndetse na moto. Ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'aho abanyamaguru bategereza imodoka zibatwara mu buryo buri rusange hakurya hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'ikirere kirimo akazuba n'icyapa kigaragaza ko hemewe kuhahagarara.

Mirongo ine icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru, ikirango cy'umukara, ku ruhande hari urugo rwubakishije amabuye, ndetse n'amatafari, hirya hari inzu nini ndetse n'urugi rwinjira muri iyo nzu.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, mo imbere harimo ibara ry'umweru ndetse umuntu uri mu mabara y'umukara n'umuhanda ari gucamo ugizwe n'imirongo icagaguye, bigaragara ko bagaragaza aho umuntu yambukiranya umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, imbere harimo umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umukara, icyapa kikaba kigaragaza ko imbere mu muhanda hari imihanda itatu yinjiranamo.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'ishusho ya mpande eshatu, umusenguruko w'umweru mo imbere harimo ibara ry'ubururu. Kikaba gifite ikirango kiri mu ibara ry'umweru, umuntu urimo kwambukiranya umuhanda mu mabara y'umukara ndetse kikaba kigaragaza aho umuntu yambukanyiriza umuhanda.

Remera. Inzu ndende cyane z'ubucuruzi, zifite imiryango myinshi igiye itandukanye, imbere ya buri muryango hakaba hari icyapa kigaragaza icyo uwo muryango ukorerwamo, hasi hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye bihahagaze ndetse n'abantu barimo batembera.

Agahanda gatoya karimo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamo ndetse n'amamoto, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye barimo bagenda, k'uruhande hakaba hari amazu menshi akikije uwo umuhanda, hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'ikirere kigaragara ko harimo akazuba.

Imodoka ihagaze ahantu ku rugi rwinjira, iyo modoka ikaba iri mabara y'umukara ifite nimero iranga ikinyabiziga iri mu mabara y'umuhondo, iyo nimero ikaba ariyo ra a i kane karindwi munani da.

Amazu menshi yubatse ahantu mu murwa, ayo mazu akaba ari ayo kubamo, akaba asakajwe amabati y'umutuku, umukara n'and atandukanye. Mo hagati muri ayo mazu hakaba harimo ibiti byinshi ndetse n'amapoto atwaye umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari ikirere kirimo amacu y'umweru ndetse n'ubururu bigaragara ko nta mvura irimo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye bari ibitwara abagenzi mu buryo rusange ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo, hakurya y'umuhanda akaba hari inzu ndende z'ubucuruzi zifite imiryango buri muryango urimo ibicuruzwa, ndetse inyuma y'izo nzu hakaba hari ibiti birebire by'imbere hakaba hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Imirima ihinzemo ibigori byinshi ndetse n'urutoki n'ibiti birebire umuhanda muremure utuye mu mirima ujya mu murwa urimo amazu menshi y'ubucuruzi hejuru hakaba hari ikirere kijimye kirimo.

Amazu arimo kubakwa bisa n'aho ari mashya, ndetse iruhande rw'ayo mazu hakaba hari umuhanda urimo guhangwa n'imodoka irimo kuzamuka, hakaba hari ibiti byinshi mu mirima ndetse n'ibyatsi birebire biri aho hafi aho.

Urugo cyangwa se uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hejuru hari agasima kariho ibara ry'umweru ndetse n'inzu ndende cyane igizwe n'amadirisha ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga byinjiza nangwa se bigasohora umwuka mu byumba.

Ndikubona umuntu uri kugenda ahetse igikapu afite n'ikindi kintu mu ntoki, bari kutwereka kwa Rando, ndikubona n'umumotari utwaye moto ndikubona n'imodoka iri kugenda na kaburimbo n'amazu yubucuruzi n'iyindi nzu hirya iriho ibintu hejuru bya antene yego, ndikubona na zebura korosingi.

Kimironko kwa nayanzira ibiti byinshi ndetse n'amazu menshi, urutsinga rutwara umuriro w'amashanyarazi, ikirere gisa n'aho kijimye bugorobye ayo mazu bikaba bigaragara ko ari nk'aho hari mu murwa.

Inzu nyinshi cyane ziri mu kajagari bisa nkaho zishaje hirya ari ibiti byinshi byiganjemo insina ndetse n'ibigori umuhanda ucamo hagati y'ibyo biti ndetse n'inzu nini.

Kimironko amazu menshi cyane yo guturwamo n'abantu yubakishije amabati y'umutuku ndetse n'ubururu, amwe asize amarangi y'umweru, mo hagati hakaba harimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bitandukanye, ikirere gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bigaragara ko nta mvura gifite.

Amazu menshi yubatse k'uburyo ari ayo guturwamo nangwa se kubamo, akaba ari ahantu yegeranye ndetse hakaba hari ibiti byinshi bigiye bihaca n'imihanda hejuru hakaba hagaragara ikirere kiri mu mabara y'ubururu n'umweru bisa naho nta mvura gifite.

Umuhanda munini urimo ikinyabiziga cy'imodoka kiri mu mabara y'umukara ndetse muri uwo muhanda ku nkiko zo hakaba hari amazu agiye atandukanye y'ubucuruzi, harimo afite uruzitiro rwubakishije amatafari ndetse n'ibyuma hejuru hakaba ahagaragara n'ikirere kirimo akazuba.

Akayira gatoya kanyura hagati mu mazu, ipoto rinini ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'izitwara murandasi, irindi poto ririho insinga ndetse n'itara rimurikira abo mu muhanda, hakurya hari inzu nyinshi cyane ndetse n'iruhande rw'umuhanda hariho izindi nzu.

Imodoka zihagaze, inyuma y'izo modoka hakaba hari inzu ndende nziza ndetse n'ayandi mazu menshi cyane. Iruhande rw'izo modoka hakaba hari igiti kirekire, hejuru mu kirere hakaba hacayo urutsinga ndetse n'indabyo ziteye ku ruhande.

Cumi na kabiri zone. Umuhanda munini utarimo ibinyabiziga hakurya hari inzu ndende z'imiturirwa zigizwe n'amadirishya y'ibirahure. Ku ruhande hari ibiti byinshi ndetse n'umucaca, hejuru hagaragara ikirere kirimo akazuba ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Imihanda irimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amamoto ndetse n'amamodoka. Amazu menshi cyane yo guturwamo ndetse n'ay'ubucuruzi ari hafi aho ngaho ndetse n'ibiti birebire by'indabyo ikirere kirimo akazuba.

Ihuriro ry'imihanda iri mu byerekezo bitandukanye, ikaba igizwe n'imirongo y'umuhondo ndetse n'umweru n'umukara, mo hagati hakaba hari ahantu hateye indabyo n'igiti kihagaragara, hakurya hakaba hari imbuga imezemo ibyatsi byinshi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto kuhande hari inzira y'abanyamaguru, irimo abagenzi bagenda ndetse n'ibyapa biri iruhande rwaho hakaba hari ibiti birebire byinshi ndetse n'ikirere kirimo akazuba ka mu gitondo.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hagati mu muhanda, hakaba hari imirongo icagaguye iri mu mabara y'umweru bigaragaza aho umunyamaguru yambukaniriza uwo muhanda, hakurya hakaba hari ibinyabiziga birimo moto ndetse n'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda munini ndetse usukira mu wundi mbere hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye ku ruhande hari amazu y'ubucuruzi nubwo atagaragara neza ndetse n'indabyo, hirya hakaba hari ibi poto binini n'ibinyabiziga biri muri uwo muhanda n'ibiti binini hejuru hakaba hari ikirere gikeye.

Ihuriro ry'imihanda iri mu byerekezo bitandukanye hakaba harimo imirongo y'imyeru igaragaza aho abanyamaguru bambukaniriza umuhanda, ndetse hakaba harimo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka ndetse na moto, n'amatara yo ku muhanda arimo amurika yaka hakaba hari ibiti birebire.

Umuhanda mugari ugizwe n'imirongo yambukiranya uwo muhanda ugaragaza aho abanyamaguru bambukiranya uwo umuhanda, mo harimo umuntu urimo kwambukirana uwo muhanda ndetse hakurya hakaba hari ibiti byinshi bikikije umuhanda, ikirere kirimo akazuba ndetse n'imodoka zigenda muri uwo muhanda.

Ndi kubona umuhanda uri gucamo imodoka, nkabona n'amatara yo ku muhanda, nkabona n'icyapa cyamamaza ndimo kubona kandi ibiti hafi y'umuhanda n'amapoto atwaye insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka, aho abanyamaguru bambukanyiriza umuhanda ndetse ibiti biri iruhande rwawo, n'ibyapa byinshi cyane biri iruhande rwawo.

Inzira z'abanyamaguru ndetse n'agace gatoya k'umuhanda karimo imodoka zitandukanye. Ibiti byinshi cyane n'amashyamba, ikirere kigaragaza ko kirimo akazuba ndetse n'ibyapa byo ku muhanda ndetse n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Imihanda minini ebyiri inyuranamo umwe uca hasi undi uca hejuru, ku iteme hariyo n'imodoka zica muri uwo muhanda n'inzira z'abanyamaguru, ibiti binini cyane bizengurutse ku nkiko z'izo mihanda ndetse n'iby'amashanyarazi, ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye k'uruhande rw'uwo umuhanda hakaba hari ibiti byinshi cyane ndetse hakaba hari n'amapoto ariho amatara yo kuri uwo muhanda, hirya hakaba hagaragara izuba ndetse ibiti bikaba bikingirije n'amazu menshi y'abantu.

Agace gatoya k'umuhanda ndetse n'igare rigaragazwa n'amahembe yaryo, hirya hari imodoka nyinshi cyane ziza zisatira umuhanda, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'amatara yo ku muhanda n'ibyapa bitandukanye, ibiti byinshi ndetse n'amazu ari imbere cyane.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'aho abagenzi bategereza imodoka zibatwara mu buryo bwa rusange, hakaba haturanye n'inzira y'abanyamaguru ndetse k'uruhande akaba hari n'akazi abagenzi bicaramo bategereje imodoka, ndetse k'uruhande nano hakaba hari ibiti birebire bikurikiye umurongo w'umuhanda n'izuba.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'igare cyegetse ku mukingo iruhande rw'ikiraro .Hakurya y'umuhanda hakaba harimo ibiti birebire cyane ndetse n'urusinga rutwara umuriro w'amashanyarazi rugaragara. Hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo akazuba ndetse n'agace gatoya k'inzu kagaragara.

Umuhanda w'igitaka usukira mu muhanda munini wa kaburimbo nangwa se w'umukara, muri uyu muhanda hakaba harimo imodoka zitandukanye ndetse n'ibiti biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse na murandasi, ku ruhande hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'amazu, n'ikirere kigaragara nkaho kirimo akazuba.